Abagabo batatu bambaye imyenda y'umutuku hejuru, inyuma yabo hari umutaka uri mu mabara y'umutuku n'umweru, inyuma yabo hari itsinda ry'abantu benshi bambaye udupfukamunwa.

Akazu gatoya kari mumabara y'umuhondo, imbere yako hari umugore wambaye umupira w'umweru n'ikanzu y'umukara, ku ruhande hari umuhanda, hakurya hari igiti.

Umugore ufashe indangururamajwi, yambaye ishati y'umutuku hari umugore n'abagabo bamukikije, hakurya hari imbaga y'abantu bicaye mu ihema ry'umweru, hakurya hari ishyamba ry'ibiti.

Akazu gato gakozwe mu mbaho, imbere hariho amabara y'umweru ndetse n'umukara, hejuru hariho ibyapa biri mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu. Inyuma hari ibyatsi hakurya hari imisozi ndetse n'amazu.

Akazu gatoya gakoze mu byuma, kari mu mabara y'umutuku n'umweru, hicayemo umugabo imbere hari umugore wambaye ipantaro y'umukara, hakurya hari imodoka, hakurya y'aho hari inyubako z'amazu.

Imbuga nini irimo hagati umugore wicaye ku ntebe y'umweru witwikiye umutaka w'umuhondo, imbere ye hari inyubako zifite amabaraza arimo ibicuruzwa.

Mu kibugaga hari umucanga, hari abagabo babiri bahagaze iruhande rwawo, imbere yabo hari intebe y'umweru, iruhande hari umuryango w'inzu ifite igikuta cy'umuhondo, isakajwe amabati y'ibyuma.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara ufashe ku igare, inyuma ye hari inyubako yanditseho mu mabara y'umuhondo, umutuku hari n'ibirango by'ikigo gishinzwe itumanaho Airtel.

Inzu ntoya ifite amabara y'umutuku yanditseho amagambo y'umweru, hepfo yayo hari indi nzu y'icyatsi, hepfo yayo hariho inzu zisakaje amabati ashaje, hepfo hari ibiti.

Akazu gato karimo umugore wambaye umupira w'icyatsi, gafite ibara ry'umuhondo n'amagambo y'umutuku, ni akazu k'itumanaho k'ikigo k'itumanaho cya MTN, hakurya hari amazu y'amagorofa.

Umugabo uhagaze yambaye ikote afite igikombe, mu ntoke. Hirya ye hari umugore uhagaze. Hepfo ye hari abagabo ndetse n'abagore bicaye, bari kumukomera amashyi.

Itsinda ry'bagabo n'abagore, bicaye ku ntebe, inyuma yabo hari inkingi y'igiti, imbere yabo hakikijwe amabati ndetse n'ibiti.

Mu isoko ry'ibiribwa harimo inyanya, abantu bitwikiriye imitakaka n'inyubako ifite amabati y'ubururu.

Abagabo batanu n'umugore umwe, bahagaze hagati mu kayira gakikijwe n'ibyatsi ndetse n'indabo, inyuma yabo hari inyubako ifite utubara tw'umweru, yubakishijwe amatafari ya rukarakara.

Abagabo batanu bafite icyapa kiri mu mabara y'umweru cyanditseho inyuma yabo hari amadirishya ari ku nyubako ifite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye ikoti ry'umukara n'ikanzu y'ubururu, imbere ye hari imifuka iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi n'ibikapu bikozwe mu bitenge, hakurya hari abagore benshi, inyuma yabo hatatse ibitambaro by'umweru.

Itsinda ry'abantu benshi hiyiganjemo abagabo n'abagore bari mu bigori, hakurya hari inyubako ifite inkuta zirimo amabara y'umutuku.

Umugore wambaye ingofero y'umweru, ishati y'umweru, ikanzu y'umweru, inyuma ye hari umuryango w'umutuku, hakurya ye hari intebe, ndetse na terefone mu ntoki.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye ikote, hirya ye hari urukuta ruriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, urukuta rusa n'ubururu.

Umugore witeze igitambaro cy'icyatsi, yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'imyenda y'umutuku n'ubururu, inyuma ye hari undi mugore, ku ruhande hari umugabo wambaye inkweto z'umukara ndetse n'ingofero, inyuma yabo hari intsindazi.

Abantu bahagaze imbere y'ibaraza ry'inzu iteye irangi ry'umuhondo n'abandi bari mu ibaraza, ku ruhande hari inzu ifite umuryango, hakurya hari inzu iri mu mabara y'umukara.

Itsinda ry'abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore ba bataruye imbabura nyinshi zitondetse hasi mu byatsi, inyuma hari ishyamba rigizwe n'ibiti.

Imbuga nini y'igitaka, hahagazemo umugabo ufite igare, hakurya hari ibaraza rirerire rifatanye n'inyubako. Ifite amabati y'umutuku.

Imbuga nini, imbere yayo hariho inzu, ifite ibaraza riparitseho ipikipiki n'umugore witeze igitambaro, ufite igishora cy'umweru, inzu isakajwe amabati y'umutuku.

Amarembo arimo umutaka ushinze mu byatsi uri mu mabara y'umuhondo, hakurya yaho haparitse imodoka iri mu ibara ry'umutuku, inyuma yayo hari inzu y'igorofa iri mu mabara y'umweru.

Mu kabari hari amacupa ndetse n'ibirahuri birimo ibyo kunywa, hicaye umugabo wambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umutuku, hakurya ye hari intebe n'ameza, hicayeho undi muntu w'igitsina gore.

Ibyatsi biri imbere y'icyapa kiri mumabara y'umutuku, umukara n'umweru, hakurya hari inyubako, ifite urugi rw'umweru, isakaje amabati y'icyatsi.

Mu kabari y'abantu ndetse n'intebe ziri hafi y'aho babika ibyo kunywa bahagaze umugabo imbere harimo ibyo kunywa ndetse n'umuntu.

Ku ruhande hariho ruhurura ku mpande ebyiri zombi hariho inzu z'ubucuruzi zifite ibyapa by'umuhondo, umutuku n'icyatsi, hepfo hari imodoka iri mumabara y'umweru ndetse n'umukara.

Ruhurura yegeranye n'umuhanda, uriho ibikinisho by'abana ndetse n'inyubako y'ubucuruzi iri mu mabara y'umweru n'umukara, hakurya hari ibiti n'undi muhanda utambitse.

Imbuga yegeranye n'inzu y'ubucuruzi isa n'umutuku, ifite inzugi eshatu, umuryango wo hagati urimo ibicuruzwa n'intebe ku ruhande.

Mu nzu y'ubucuruzi irimo ibunyobwa byo kunywa, harimo umugore wambaye umwenda wari mumabara y'umweru ndetse n'umutuku ari kureba hanze.

Inzu y'ubucuruzi irimo umugabo ufite ishashi iruhande rwe hariho umufuka, amasabune amabombo, ibikombe.

Iduka ricururizwamo ibikorerwa mu Rwanda harimo ibitenge, uduseke, ibikapu, imikeka n'ibindi, hariho urukuta ruri mu mabara y'umuhondo.

Mu nzu bakoreramo ubudozi bw'imwenda barimo umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'umugore wambaye umupira w'icyatsi ufite igitenge k'icyatsi mu ntoki, hakurya ye hari umugore wambaye umupira w'umutuku n'umukara, ku ruhande hari umugore wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'imashini idoda.

Umugore wambaye umupira w'umukara urimo utubara tw'umweru. Imbere ye hari ikimeza kinini kiri mu mabara y'ubururu n'umuhondo. Inyuma ye hari ibyo kunywa ndetse hakurya hari urukuta rw'umuhondo.

Imbuga nini, hejuru yayo hari escariye zihagazeho abapadiri bambaye amakanzu y'umweru n'umugabo umwe uri imbere yabo bambaye imyenda y'umukara.

Imbaga y'abantu benshi bitwikiriye imitaka yiganjemo abagore, abasaza, abagabo, abakecuru n'abana bari imbere y'urusengero, hakurya hari andi mazu arukikije, ibiti, hakurya hari umusozi.

Itsinda ry'abagabo n'abagore, imbere yabo hari ibikapu, amacupa y'amazi ameza, hakurya hari ibyatsi.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umukara, hirya hari umugabo wambaye ishati afite n'ingoma, inyuma ye hari abagore bambaye amakanzu y'umutuku n'ubururu n'icyatsi.

Abagore bane n'umugabo umwe, bamwe baricaye, undi ari kugenda abahereza icyayi mu bikombe afite mu ntoki.

Itsinda ry.abagore n'abagabo bakeya, abagore bakeneye ibitenge, inyuma hari igikuta gisa nk'umuhondo, imbere hicaye abana batoya.

Imbaga y'abantu benshi, higanjemo, abagabo, abana, abagore, abasaza, bari hanze, y'urusengero runini, hirya yabo, hari igiti, hirya yaho, hari andi mazu.

Umuhanda ukikijwe n'ibyatsi, mu byatsi harimo icyapa cy'ubururu cyanditseho n'amagambo y'umweru, ku ruhande hari amazu afite ibara ry'umuhondo riciye mu matafari asakajwe amabati y'umutuku.

Itsinda ry'abantu benshi abagabo, abagore, abasaza, abakecuru bari imbere y'urusengero rwubakishijwe amatafari ya rukarakara, ku ruhande hari ibiti.

Itsinda ry'abasore n'inkumi bari kuramya, bafite indangururamajwi mu ntoki inyuma yabo hari ibitambaro biri muu mabara y'umuhondo ndetse.

Itsinda ry'abagabo n'abagore, harimo abagororwa ndetse n'abashinzwe umutekano, hakurya hari inzu.

Urusengero rurimo intebe zikozwe mu biti ndetse n'igisenge gikozwe mu biti, ku ruhande hari amadirishya n'urukuta rw'umuhondo, imbere hariyo intebe.

Musenyeri ufite inkoni mu ntoki, iri mu mabara y'umweru n'umukara, yambaye igishora cy'umukara n'icy'umutuku n'umwenda w'umweru, hakurya ye hari urushundura hirya y'aho hari inyubako ifite irangi ry'umweru, hakurya hari imisozi.

Imbuga irimo ibyatsi ndetse n'udutebe tubiri twegeranye n'inkingi y'ibaraza, hagati harimo ibiti hakurya hari inzu ifite ibara ry'icyatsi isakajwe amabati y'umutuku.

Inyubako nini ifite ibyatsi imbere ndetse nibiti bitoya, umugenda w'amazi, hakurya hateye ibiti.

Abagore babiri bambaye udupfukamunwa, amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, inyuma yabo hari umuryango ukoze mu rubaho mu gikuta cy'umweru cyegeranye n'igikuta kirimo mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Umugore wicaye ku meza akoze mu giti, imbere ye hari ikirahuri, inyuma ye hari andi meza akikijwe n'intebe zirimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu. Hakurya hari amadirishya anyuzemo utwuma tw'umukara.

Ikidamu cy'amazi, hakurya yacyo hari ibyatsi byinshi biteyemo igiti, ku ruhande hari amapoto y'amashanyarazi, hakurya hari imirima, inyuma yayo hari amazu.

Intebe zo kwicaraho n'umutaka biri iruhande rw'ikidendezi cy'amazi, hakurya hariho ibyatsi, hakurya hariho umusozi.

Imbuga iteyemo ibyatsi. Imbere hari ibiti bibiri. Inyuma hari inyubako iri mu mabara y'umweru. Hino kuruhande, hateye ibiti ndetse hacanye n'amatara.

Amarembo, binjiriramo ndetse n'ibyuma, bishinzwe kugenzura umutekano w'abinjira n'abasohoka. Ku ruhande, hari, ushinzwe umutekano, wambaye imyenda y'umukara.

Umuhanda hakurya yawo, hari urujya n'uruza rw'abantu, bikoreye ibiribwa, hakurya hari inyubako nyinshi, ziri ku murongo.

Mu muhanda hari igare ryegetse ku nkingi rifite ririho imineke ndetse n'imbuto, hirya hari abantu benshi n'abandi bari hakurya mu myenda iri gucuruzwa.

Imbabura zikoze mu ibumba n'ciyuma inyuma ziri mumabara y'umutuku, hirya hariho imbabura ikoze mu cyuma gusa ziteretse hasi ku butaka.

Abagore bicaye, bagera kuri bane, bari gucuruza imbuto, hari umufuka hakurya y'umugabo uri kurenga.

Umugore wambaye igitenge, ari kuyora imyumbati, hakurya hari amagare n'abagabo n'umwana, hirya hari amazu hari n'ibiti.

Mu mbuga hateretsemo amajerekani y'umuhondo, imeza iriho icupa ku ruhande harambitse amagare, hejuru hari umutaka uri mu mabara y'umuhondo, hakurya hari abagabo bahagaze.

Abagore batatu n'umugabo wambaye agapfukamunwa n'umupira w'umweru, umugore uri hepfo yambaye umupira w'ubururu n'igitambaro cy'umutuku, begeranye n'imodoka iri mu mumabara y'umweru ndetse n'indi iri mu mabara y'umukara.

Hari: amasahani y'icyatsi, ay'ubururu, ibikombe, amajagi y'icyatsi n'ayubururu, imbugita, ibiyiko n'indobo.

Mu muhanda harimo abantu benshi, ku ruhande hariho ibiti bishinze n'amashitingi ari mu mabara y'ubururu, abatwaye amagare, hakurya hariho amazu y'ubucuruzi.

Mu isoko harimo amabase ibikoresho by'amasuku, mu nzira harigutambuka umugabo ufite indobo wambaye ishati y'umweru, iruhande rwe undi mugabo wambaye ishati y'umuhondo, kuruhande hari imifuka y'amafu ndetse n'ibindi bicuruzwa n'abantu benshi bari kumabaraza.

Ibijumba birunnze ahantu hamwe, iruhande hariho igitebo, hirya hariho umufuka urimo ibintu, hirya harimo umufukarimo ubusa n'ikirenge cy'muntu.

Abagore n'abagabo bahagaze iruhande rw'isoko ricururizwamo imyenda, hamanitse imyenda y'amabara atandukanye, hakurya hari inyubako, inyuma y'aho hari indi nyubako.

Inzu nini bacururizamo, imyenda, ibitenge, n'amabara yose umutuku icyatsi umweru ubururu, kuruhande hicaye umugore wambaye ijipo, y'ubururu. Inyuma ye hicaye undi wicaye ku ntebe y'umweru.

Mu nzu indani harimo ameza n'intebe hepfo hari andi meza yicaweho n'abantu bambaye imyenda y'imikara. Inzu ifite inkingi ziri mu mabara y'umweru ndetse n'igisenge cy'umweru.

Intebe iriho ibiryo ndetse n'ibikombe, ku ruhande hari indi ntebe iri mu mabara y'umukara n'umweru, ku ruhande yaho hari indi na yo iriho ibiryo ndetse n'inkingi y'inzu ifite amatafari ya rukarakara.

Mu nzu hagati harimo intebe nyinshi, harimo inkingi z'umukara n'igisenge, hakurya hari ibyatsi.

Umuzungu yicaye ku ipikipiki, iruhande rwe hahagaze abagabo bakora umwuga wo gutwara amapikipiki, bambaye' impuzankano ibiranga iri mu mabara y'umutuku.

Ipikipiki iri mu muhanda yicayeho umugabo wambaye umupira w'ubururu, imbere hari imodoka ebyiri ndetse n'inzu.

Mu umuhanda wamabuye, urimo ipikipiki itwawe n'umugabo, hepfo hari ibyatsi biteyemo icyapa kirimo amabara y'umweru n'ubururu, hakurya hari inyubako

Umuhanda urimo umurongo w'umuhondo, hari kunyuramo ipikipiki itwawe n'umugabo, atwaye umugore, hakurya hari ibyatsi bikikije umuhanda ndetse n'amapoto y'insinga z'amashanyarazi.

Mu muhanda urambuye hagaragaramo umumotari uri mu muhanda wambaye kasike y'umuhondo ndetse ku ruhande hariho amazu bigaragara ko ari amazu y'ubucuruzi, Umuhanda ukaba ufite umuriro w'amashanyazi ukaba uriho amapoto.

Umuhanda ufite uturongo tw'umweru n'umukara, ku mpande hari gucamo umunyonzi wambaye umupira w'umweru uhetse igikapu, hepfo ye hari utwaye ipikipiki bambaye ingofero z'umutuku, ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Amapikipiki menshi, ari ku muhanda, hari ibaraza ryegeranye n'inzu y'igorofa, iri mu mabara y'umweru n'umukara.

Hari ipikipiki, yicaweho n'abagabo babiri, iri mumuhanda hagati kuruhande, hari uturongo tw'umweru n'umukara, n'abagenzi.

Umuhanda, harimo ipikipiki, itwawe n'umugabo, iruhande hariho indabo n'ibiti.

Umugabo ukora umwuga wo gutwara ipikipiki, yambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku n'umukara, hakurya hari amazu ndetse n'umuhanda.